Umutekano ni ingirakamaro. Iyo ahantu hari umutekano, abantu babaho batuje bagakora imirimo yabo ntibagire ubwoba, kuko iyo ahantu hatari umutekano, abantu baricana, bakiba. Umutekano ufasha abantu mu kwiteza imbere.

Abashinzwe umutekano n'ingirakamaro, kuko ahantu hatari umutekano abantu baricana abandi bakabiba, bakabiba ibikoresho ariko iyo ahantu hari umutekano haba iterambere.

Mu bikorwa byose dukora bya buri munsi, tubaka dukeneye umutekano, kuko iyo ahantu hatari umutekano abantu bamwe baribana, abandi bakicana, iterambere rigasubira inyuma.

Abakora akazi k'umutekano ,ni abantu b'ingirakamaro, kuko iyo ahantu hari umutekano, abantu bakora bakiteza imbere. Abantu ntibicane, ntibibe maze bakiteza imbere.

Umutekano ni ingenzi mu iterambere ry'abaturage kuko iyo ahantu hari umutekano abantu barakora, bagakora batuje nta guhangayika, ariko iyo ahantu hatari umutekano haba hariho n'abajura bakaba banakwicana.

Mu nama ni ahantu hahurirwa n'abantu benshi bagamije guhana ibitekerezo, cyangwa se gufata imyanzuro ku kintu runaka, cyangwa se gushyiraho imirongo ngenderwaho.

Mu nama ni ahantu abantu bahurira bakaganira ku kibazo runaka cyabaye, bakagishakira igisubizo, cyangwa se bagahura bagiye guhana ibitekerezo ku gikorwa remezo runaka, cyangwa se kwemeza imyanzuro runaka.

Inama ni ihuriro ry'a bantu bateraniye hamwe bagamije gukemura ikibazo runaka, cyangwa se guhana ibitekerezo ,cyangwa se kugira ibyo bemeza ku kintu runaka.

Mu nama hari abantu benshi bahuriye ku murimo umwe, cyangwa se batuye mu gace kamwe, bagiye kwiga ku kibazo runaka, ngo bagishakire igisubizo cyangwa gufata ibyemezo.

Mu nama ni ahantutu abantu bahurira ari benshi，bagahana ibitekerezo ku gikorwa runaka， bakaba bahemba n'ababaye indashyikirwa， iyo bahuriye ku murimo.

Mu muco nyarwanda haba ikintu cyo kugosora, nk'iyo abantu bejeje ibishimbo babishyira ku nkoko, maze bakagenda babigosorera hejuru banahuha n'umwuka kugira ngo imyanda irimo ivemo, hasigare ibishimbo bisa neza bitarimo imyanda.

Umuvure ni igikoresho babaza mu giti maze bakakifashisha bashaka gukora inzoga, bagashyiramo ibitoki bataze bikaba imineke bakabitonoreramo, maze bagakama hakavamo umutobe, bakazakoramo inzoga.

Isekuro ni igikoresho babaza mu giti bakabaza n'umusekuzo wayo, maze bakajya basekuriramo isombe, hariho n'abasekuriramo imyumbati maze bakarya ubugari.

Umutiba ni igikoresho gikoreshwa mu buryo bwo kubika ubuki. Baboheranyaga uduti, inyuma bakabohaho amase, maze inzuki zikazajya zitahamo zigasigamo ubuki.

Intore z'ababyinnyi ni itsinda ry'abagabo cyangwa abakobwa ,bamenyereye kubyina imbyino gakondo ,maze bakabyina nko mu birori, cyangwa se mu yindi mihango ya gakondo.

Umuvure ni gikoresho babazaga mu giti, maze bakajya bagikamiramo imineke, bagatonora imineke, bagashyiramo maze bagakama, bikazavamo inzoga yitwa urwagwa.

Umuduri ni igikoresho gakondo cy'umuziki nyarwanda, gikoreshwa mu gucuranga kigizwe n'akagozi kamwe, bakakazirika ku gati maze bakagenda barahondaho agashinge.

Igisabo ni igikoresho gikoreshwa, babikamo amata, cyangwa se bakagikoresha bari kuyabuganiza, kiba cyorohereye ku buryo ugikubise hasi cyahita kimeneka.

Ingobyi ni igikoresha bahekamo abarwayi，iyo barwaye，gikunze gukoreshwa ahantu hatagera imbangukiragutabara， cyangwa se hatagera imodoka. kikifashishwa kugira ngo umurwayi amugeze kwa muganga.

Intore ni ababyinnyi b'abahungu batoranywa, bakigishwa umuco, bakigishwa ibijyanye n'ubutwari, baba bambaye imyenda yihariye yerekana umuco, kandi baba bazi kubyina ku buryo babyina no mu birori.

Uburyo abantu bubakamo inzu z'ubungubu, bitandukanye nuko inzu za kera zabaga zubatse. Kera bubakishaga ibyatsi, imbere bagashyiramo ibiti byogufata byatsi ngo bitagwa, ariko ubu bubakisha amatafari, n'amabuye, ndetse n'ibiti.

Isekururo ni igikoresho babaza mu giti, iba ifite n'umusekuzo nawo w'igiti, wifashishwa mu gusekura isombe cyangwa se mu gusekura imyumbati, bayikoramo ubugari.

intore ni abasore batoranywa bakabigisha umuco nyarwanda, bakabigisha kubyina imbyino zijyanye n'umuco, maze bakajya barazibyina ahantu habaye ibirori.

Ingoma ni ibikoresho bikoreshwa mu birori. Bazivuza bakoresheje imirishyo, maze abari kumva urujyano rwazo bakaryoherwa n'ayo majwi.

Imikenyero ni imyambaro yambarwa mu birori nko mu bukwe, abasore bagakenyera cyangwa se abageni n'abakobwa, abantu bambaye imikenyero mu birori bagaragara neza cyane.

Ibiseke ni ibikoresho bikoreshwa abantu bagiye gusura abandi, ugashyiramo nk'ibishyimbo cyangwa se ibigori cyangwa amasaka ukikorera. Ibyibo babibohesha ubudeyi mu mabara atandukanye.

Igicuma ni igikoresho mu muco wa kera bakundaga kwifashisha mu birori bakanyweramo inzoga n'urwagwa cyangwa se ikigage, cyiba cyorohereye ku buryo ugikubise hasi gihita kimeneka.

Ikibindi ni igikoresho babumba mu ibumba, maze bakagikoresha mu bintu bitandukanye, hariho abagitaramo inzoga y'urwagwa cyangwa ikigage.

Amasunzu ni inyogosho nziza abantu ba kera biyogosheshaga, maze bakabogosha ibice bimwe by'umutwe, ahandi bakahasimbuka hagasigara umusatsi. Wabonaga bibabereye cyane kuko baba bafite n'imisatsi.

Imyambarire y'ubu n'imyambarire ya kera iratandukanye. Ubu abantu bambara imyenda bisanzwe, ariko mbere bambaraga ishabure, ndetse n'inkanda, bakiyogoshesha n'amasunzu.

Inkoko ni igikoresho kiba kiboshywe mu duti dusobekeranye, yifashishwa mu kugosora imyaka, iyo yeze bagashyiraho nk'ibishimbo bakagosora bakoresheje umwuka, imyanda ikavamo.

Inkoko ni igikoresho gikoreshwa mu muco nyarwanda . Abantu bo hambere bakiriragaho nk'umutsima ,cyangwa se inkoko bakayigosoresha imyaka yaba yeze , bakayigosoresha, kugira ngo havemo imyanda.

Ibibindi ni ibikoresho, byahozeho na kera mumuco nyarwanda, aho bataramo inzoga zo rwagwa cyangwa ibigage, baba bajyiye no gusura ahantu, babatwewereye inzoga bakabitwaramo.

Ingoma ni igikoresho cya kinyarwanda bakora mu idebe, inyuma bagashyiraho uruhu rw'inyamaswa, noneho ababyinnyi baba bari kubyina, bakazana uduti tubiri twitwa imirishyo, bakagenda bavuzaho kugira ngo ibirori bishyuhe.

Igicuma ni igikoresho abanyarwanda bakoreshaga bo hambere, bagikoreshaga bari gusabana, bari kunyweramo inzoga zitwa inzagwa, cyangwa ikigage, bagashyiramo n'umuheha.

Imitiba barayiboha bororeramo inzuki, zikagira ubuki, maze bakajya bajya kuzihakura, bayibohesha uduti, bari kugenda badusobekeranya, bagashyiraho n'ibumba ku ruhande.

Inkoko ni igikoresho baboha bari gusobekeranya uduti cyamara kuzura, inyuma bagahomaho amase y'inka, bakacyanika, nuko bakajya bakigosoresha ibishyimbo cyangwa amasaka.

Mu muco nyarwanda iyo abantu bafite ibirori, bari gutegura nk'ubukwe kugira ngo bazishimane n'inshuti zabo n'abaturanyi, bategura ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya, mu byo kunywa bategura nk'inzoga z'urwagwa, imisoruru cyangwa se ninzoga zipfundikiye.

Ukuntu abantu basigaye bIyogoshesha bitandukanye n'ukuntu abakera biyogosheshaga. Ubu iyo umuntu ashaka kwiyogoshesha umusatsi, bawumaraho. Ariko mbere yiyogosheshaga amasunzu.

Urusyo ntigikoreshe abantu bo hambere bakoreshaga bari gusya, biba ari mu bwoko bw'ibuye maze bagashaka n'akandi kabuye gato kitwa ingasire bakazajya baragafata mu ntoki bagatsa n'masaka.

Ibicuma ni ibikoresho abantu bakera bakundaga gukoresha, cyane cyane abasaza banyweragamo inzoga yitwa urwagwa, bakayinywa bari mu birori cyangwa se akayinyweramo yibereye mu rugo iwe.

Mu muco nyarwanda, iyo ibitoki byeze bashaka bakuramo inzoga, barabica bakabitara murwina, byamara gushya bakabitonora bakifashisha umuvure, mu buryo bwo gukora inzoga.

Intore ni abasore baba baratoranyijwe bakigishwa umuco, bakigishwa no kubyina imbyino za gakondo, maze bakajya babyinira abantu mu birori cyangwa se mu bukwe gutyo.

Inajoro ni agahoro kakoreshwaga abantu bo hambere mu Rwanda bagakoreshaga bari kwahira, cyangwa se bari guhanura amakoma ku nsina batabashije kugeraho bakayasahuza bakoresheje agahoro kitwa inajoro.

Mu muco wacu wo mu Rwanda abantu bo hambere ntabwo bubakaga amazu ameze nk'ay'ubu, ahubwo bo amazu yabo yabaga yubakishijwe ibyatsi, mu nzu imbere harimo ibiti aribyo bifashe ibyo byatsi kugira ngo bitagwa.

Igisero n'igikoresho bakora mu mivovo z'insina bagashyiraho n'agatemeri. Mu muco wa kera abantu bahunikagamo imyaka nk'amasaka ibishimbo cyangwa ibigori..

Intore ni abasore batoranywa, bakabigisha umuco n' indangagaciro, maze bakabigisha n' imbyino gakondo; ahantu habaye ibirori barabyina, abantu bakishima.

Intore ni abasore batoranywa bakigishwa kubyina, bakigisha umuco. Banabigisha kubyina imbyino za kinyarwanda za gakondo, maze bakazajya babyina mu birori.

Ikibende ni igikoresho cyakoreshwa cyane cyane n'abantu bo hambere. Bakagitaramo inzoga. Zashya bakanywa bagasabana cyangwa se bakakibikamo amazi kugira igihe runaka bayakeneye bazayabona bitabagoye.

Intore ni abasore batoranywa bakabigisha umuco, bakabigisha ni indangagaciro z'igihugu, bakabigisha no kubyina imbyino gakondo, maze mu birori bakabyina bagashimisha abantu.

Ingoma ni igikoresho gikunze gukoreshwa mu muco nyarwanda, barayibamba, inyuma bagashiraho uruhu rw' inyamaswa, iba ifite n' imirisho maze bakayikoresha ahabaye ibirori bakayivuza.

Umutiba ni igikoresho baboha mu duti, bakadusobekeranya inyuma bagahomaho amase, maze bakakimanika mu giti inzuki zikaza guturamo, zikagenda zishyiramo ubuki maze bagahakura.

Ibisabo n'ibikoresho bikoreshwa mu muco wacu, aho babibikamo amata, iyo amata bayabitse mu gisabo, baba bizeye ko afite ubuziranenge.

Ibyibo ni ibikoresho byahoze bikoreshwa mu muco nyarwanda, ariko na n'ubu biracyakoreshwa ubitwaramo ikintu ugiye nko gusura abantu, ugashyiramo nk'ibishyimbo cyangwa ibigori ubundi ukokorera ukabajyanira.

Amashanyarazi ni imbaraga zitagaragara zitanga umuriro, zigatanga n' ubushyuhe; amashanyarazi aturuka ku mirasire y' izuba, kugira ngo urumuri rugaragare nuko bashyiraho n' amatara.

Amashanyarazi ni ingirakamaro iyo ahantu hari amashanyarazi hagarara neza, kuko niyo ari nijoro bagacana ugira ngo ni kumanywa, afasha abantu mu kwiteza imbere, kuko n'abantu basudira barayakoresha.

Amashanyarazi ni imbaraga zitagaragara, zitanga urumuri n'ubushyuhe, amashanyarazi hariho aturuka ku mirasire y'izuba n'aturuka ku ruhurirane rw'amazi.

Amashanyarazi ni imbaraga zituruka ku ngufu z'amatara. Amashanyarazi ni meza cyane iyo acanye ahantu harabonaga hakava umwijima, abantu bakagenda bari kureba nkaho ari ku manywa kandi ari nijoro.

Amashanyarazi ni imbaragaraga zitagaragara, zitanga ubushyuhe, zigatanga n'urumuri, adufasha mu bikorwa bitandukanye nko gufotora impapuro cyangwa se ibindi bitandukanye.

Amashanyarazi ni imbaraga zitagaragara ariko zigatanga urumuri ndetse n'ubushyuhe, ashanyarazi yifashishwa mu bikorwa byinshi nko gufotora impapuro, cyangwa se ugacomekaho tereviziyo.

Amashanyarazi ni ingirakamaro adufasha kubonesha ahantu, haba ari nijoro bagacana ukagira ni ku manywa, kugira ngo amashanyarazi agere ku bantu bose, hifashishwa insinga bakazimanika hejuru mu biti.

Amashanyarazi ni imbaragaraga zitagaragara zitanga urumuri zigatanga n'ubushyuhe, inzu irimo amashanyarazi igaragara neza nta mujura wapfa kuza kuhiba, kuko na nijoro wacanye amatara haba hari kubona hameze nko ku manwa.

Amashanyarazi ni imbaraga zitagara, zitanga ubushyuhe, zigatanga n'urumuri, amashanyarazi ni meza, kuko ahantu hari amashanyarazi haba hari umucyo, na nijoro bagacana amatara ukagirango ngo ni kumanywa.

Amashanyarazi n'imbaraga z'amatara zitangaga urumuri maze ahantu haba ari nka nijoro wacana itara rikaka ukaba wagira ngo ni ku manywa kandi ari nijoro

Amashanyarazi ni imbaraga tutabonesha amaso ziduha urumuri zitanga n'ubushyuhe amashanyarazi ni meza, kuko ahantu ari nijoro bacana amatara ukaba wagira ngo ni kumanywa kandi ari nijoro.

Amashanyarazi ni imbaraga tutabonesha amaso ziduha urumuri n'ubushyuhe, amashanyarazi ava ku mirasire y'izuba ayandi akava mu ruhurirane rw'amazi bigakora amashanyarazi.

Amashanyarazi ni imbaraga zitagaragara ariko zifite ubushobozi bwo kumurika cyangwa se gushyushya. Hari amashanyarazi aturuka ku mirasire y'izuba ,n'amashanyarazi aturuka ku miyoboro y'amazi.

Urusengero ni inyubako ihurirwamo n'abantu benshi, bafite umugambi wo gusenga, kandi baba bafite imyizerere imwe, ku rusengero hakorerwa ibikorwa bijyanye n'idini.

Amashuri ni ingirakamaro kuko ni yo abanyeshuri bigiramo, akabarinda ko bakwigira hanze bikaba byakuramo ingaruka nyinshi harimo nko kuba imvura yagwa ikabanyagira. Ariko iyo abana bari mu mashuri, baba batuje, batekanye, bakiga neza.

Mu gihugu cy'u Rwanda no ku isi hose, habaho inyubako zihurirwamo n'abantu benshi. Ku mashuri, ku nsengero, ku masoko, kuri banki. Kandi, izo nyubako zose ni ingirakamaro.

Kubaka imihanda bifasha abaturage kugera ku iterambere byihuse, kuko biraborohera mu ngendo. N'abejeje imyaka kuyigeza ku isoko bikaborohera, maze bakiteza imbere mu buryo bwihuse.

Mbere abantu baturaga mu kajagari bakajya kubaka aho biboneye bakajya kubaka munsi y'umukingo mu manegeka, ariko ubu haje gahunda nziza ya Leta yo gutura mu mudugudu.

Ku rusengero ni ahantu hahurira abantu benshi, baba bavuye mu mpande nyinshi zitandukanye, bakaza baje gusenga habamo abapadiri, hakabamo n'abakirisitu basanzwe, maze bakumvira hamwe ijambo ry'Imana.

Mu kubaka ibikorwa remezo nk'amashuri cyangwa insengero bakoresha ibikoresho bitandukanye hari abakoresha amatafari, abandi bagakoresha ibiti, hari n'abakoresha amabuye bitewe n'ibyoroshye kuboneka aho hantu.

Mu gihugu cyacu no ku isi hari inyubako nyinshi zidufitiye umumaro kandi zihurirwamo n'abantu benshi, nk'insengero, amashuri, aho bakinira imikino hitwa sitade ndetse no ku mabanki aho babikaga amafaranga.

Urusengero ni inyubako bubaka bagamije kujya bajya kuhasengera, hajyayo abantu bahuje imyemerere n'imyizerere, bagakurikiza amabwiriza amwe aranga idini ryabo.

Inzu yo kubamo, ni inzu yubakwa, ari iyo kugira ngo abantu bazajye bayituramo, bayiraremo, iyo umuntu ufite inzu ye, ni byiza cyane kuko bashobora kwiteza imbere we n'umuryango we, bikabarinda kuba bakodesha.

Ikiraro ni inyubako cyangwa igikoresho abantu banyuraho bari kwambuka ahantu hatari inzira, munsi haba hari gucamo nk'amazi, bakava mu gace kamwe bakakinyuraho bari kwambuka kugira ngo bajye mu kandi gake.

Amashuri ni inyubako abanyeshuri bigiramo, aba agizwe n'ibyumba byinshi, bitewe n'ibyiciro bihari, icyiciro cy'amashuri y'inshuke, icyiciro cy'amashuri abanza, n'ayisumbuye.

Mu Rwanda tugira inyubako zitandukanye, kandi zahurirwamo n' abantu benshi nko: ku bitaro, ku mashuri, ku isoko cyangwa se ahakinirwa imipira, aho bita kuri sitade.

Ku rusengero ni ahantu abantu bahurira bagiye gusenga bakaba bahuje imyemerere n'imyizerere. Urusengero banarukoreramo ibikorwa bijyanye n'idini.

Insengero ni ahantu cyangwa inyubako abantu basengeramo bafite imyemerere imwe, cyangwa imyizerere imwe, bakaba banakoreramo ibindi bikorwa by'idini.

Ikiliziya ni inyubako abantu benshi bahuriramo baje gusenga, baba bafite imyizerere imwe ijyanye n'idini, kandi hakorerwamo ibikorwa by'idini byonyine.

Ku rusengero, ni inyubako ihurirwamo n'abantu benshi, bose bafite intego yo gusenga, baba bafite imyizerere imwe, kandi urusengero rukorerwamo ibikorwa by'idini gusa.

Amashuri ni ingirakamaro kubera niko abanyeshuri bigiramo. Adahari bakigira hanze bakanyagirwa, bikaba byatuma bamwe bava mu ishuri, ntibige ngo barangize.

Kuri banki ni inyubako abantu bajya kubitsaho amafaranga, cyangwa waba ukeneye inguzanyo ,ukagenda bakayiguha, ukazasubirayo ugiye kwishyura mu gihe runaka wateganyije ko uzabonera ya mafaranga.

Mu gihugu cyacu habamo inyubako nyinshi, kandi zose zidufitiye umumaro, hari izihurirwamo n'abantu benshi, nk'ahakorerwa imikino, ku mashuri, ku nsengero, cyangwa se aho babika amafaranga,..

Mu gihugu cyacu, ndetse no ku isi hose, bafite intumbero yo kubaka amazu agezweho, amazu ageretse, mu buryo bwo kugira ngo ubutaka buturweho n'abantu benshi kandi bature ahantu hato.

Uburenganzira bw'umuntu, ni ikintu umuntu yemerewe gukora, cyangwa se yemerewe guhabwa. Urugero: umuntu afite uburenganzira bwo kwitwa izina, uburenganzira bwo kurya, abantu bagira n'uburenganzira bwo kuvugira mu ruhame, iyo udahawe kimwe muri ibyo byitwa ko wakorewe ihohoterwa.

Inama ni uburyo abantu bahuramo ari benshi bagahura bagiye kuganira, ku ngingo runaka mu gukemura ibibazo cyangwa se gufata imyanzuro.

Inama ni igikorwa cy'uko abantu benshi bahura bagiye kuganira ku bitekerezo runaka, cyangwa se gukemura ikibazo, cyangwa bagafata imyanzuro mishyashya.

Mu nama ni ahantu abantu bahurira bafite nk'akazi kamwe bakora umurimo umwe, cyangwa se batuye mu gace kamwe. Bagahura bagiye kwiga ku kibazo runaka, cyangwa gufata imyanzuro y'ibitekerezo baba batanze.

Inama ni ahantu abantu bahurira ari nk'itsinda, bashobora kuba bakora umurimo umwe cyangwa se batuye mu gace kamwe, bagiye kuganira ku kibazo runaka cyangwa gufata imyanzuro.

Mu nama ni ahantu haba hateraniye abantu batuye mu gace kamwe, cyangwa se bahurira mu kazi kamwe, bakaganira ku bijyanye n'iterambere ry'umurimo bakora, cyangwa se bakaganira ku kibazo runaka cyabaye aho batuye, bakagishakira igisubizo.

Inama ni ihuriro ry'abantu bahuriye hamwe bagamije gukemura ikibazo, cyangwa se kugira ibitekerezo batanga, cyangwa se gufata imyanzuro ku gitekerezo runaka.

Mu Rwanda no ku isi hose abantu baba bafite uburenganzira bwo kugira ibyo bakora, uburenganzira bwo kwiga, uburenganzira bwo kurya, uburenganzira bwo kwitwa izina n'uburenganzira bwo kuvuzwa, n'ubundi butandukanye.

Igare ni igikoresha gikoreshwa mu gutwara abantu n'ibintu. Rigira amapine abiri, n'amahembe imbere, maze umushoferi waryo akaritwara. Intebe y'umugenzi iba inyuma.

Amagare n'ibikoresho bikoreshwa mu gutwara abantu bibavana mu gace kamwe, akabajyana mu kandi amagare atwara n'imizigo cyangwa se ibyo twita ibikoresho.

Imodoka ni ibikoresho bikoresha imbaraga za moteri, zitwara abantu ndetse n'ibintu, imodoka habaho imodoka nini n'utumodoka dutoya, umuntu agura imodoka bitewe niyo ashaka.

Imodoka ni ibikoresho bikoreshwa mu gutwara abantu n'ibintu bibavana ahantu hamwe bibajyana ahandi. Imodoka ni nziza cyane kuko zoroshya umwanya w'urugendo, ukagera aho ugiye byihuse.

Amagare n'ibikoresho byifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu. Igare rigira amapine abiri, rikagira n'aho umunyanzonzi yicara, n'aho umugenzi yicara cyangwa aho batwara ibi ibikoresho.

Amagare ni ibikoresho byifashishwa mu gatwara abantu n'ibintu, hari amagare aba yaragenewe gutwara abantu n'ibintu, n'andi aba yaragenewe gukorerwaho imyitozo ngororamubiri.

Imodoka ni igikoresho cy'ingenzi cyane kandi cyiza kuko gitwara abantu n'ibintu, kikabavana mu gace kamwe kikabajyana mu kandi gace kandi byihuse nta gutinda mu nzira ngo bamaremo amasaha menshi.

Imodoka ni igikoresho gikoreshwa imbaraga za moteri, iba ifite amapine ane, amwe aba ari imbere ayandi inyuma. Igatwara abantu n'ibintu ibavana ahantu hamwe ibajyana ahandi.

Imodoka ni igikoresho gikoresha imbaraga za moteri. Iba ifite amapine ane, amwe ari imbere, andi ari inyuma, haba harimo n'ibirahuri by'imbere, harimo imyanya abagenzi bagomba kwicaramo.

Imodoka ni igikoresho gikoresha imbaraga za moteri ,gitwara abantu ndetse n'ibintu kikabavana ahantu hamwe ,kikabajyana mu kandi gace kigendera ku mapine ane.

Imodoka n'igikoresho gitwara abantu, kiri kubavana mu gace kamwe kiri kubajyana mu kandi gace, gitwara n'ibintu nk'imizigo iremereye, mu modoka hari aho bishyura amafaranga cyangwa bagakoresha amakarita.

Igare ni igikoresho kigizwe n'amapine abiri, gikorerwaho ingendo cyangwa bagatwaraho ibintu biremereye, rigenda ahamanutse, ahazamutse bararisunika.

Muri gare ni ahantu hahuriramo abantu benshi bagiye mu nce zitandukanye, buri wese bitewe n'aho agiye bakamuha itike, imodoka yaza igahita imutwara ikamujyana aho yari yavuzeko agera.

Amagare n'ibikoresho byifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu agira amapine abiri ipine rimwe riba riri imbere irindi riri inyuma ,hariho n'amahembe yo gufataho maze umunyonzi akicaraho n'umugenzi akicara inyuma ye.

Imodoka ni igikoresho gikoresha imbaraga za moteri, cyifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu, kikabavana mu gace kamwe kikabajyana mu kandi gace. Kigira amapine ane, abiri imbere nandi inyuma abiri.

Imodoka ni igikoresho gikoresha imbaraga za moteri, gitwara abantu n'ibintu kiri kubavana mu gace kamwe kiri kubajyana mu kandi. Kirihuta ukagera iyo ugiye utabanje gukererwa.

Indege ni igikoresho kiguruka gikoreshwa mu gutwara abantu n'ibintu, gikoresha imbaraga za moteri kigakoresha n'amababa indege ni nziza zigendera mu kirere ni nziza cyane.

Moto ni ibinyabiziga bigendera ku butaka. Abantu bazitwara, babita abamotari. Batwaraho abagenzi, hariho n’abamotari batwaraho imizigo. Iyo uteze moto, urihuta, ukagera iyo ugiye vuba. Nibyo byiza byo gutega mota.

Moto ni igikoresho gikoreshwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu, kikabavana mu gace kamwe kikabajyana mu kandi, bashyiramo esansi kugira ngo kibashe kugenda, moto ni nziza mu gutwara abantu, kuko nta gutindaga mu nzira.

Indege ni igikoresho gitwara abantu ndetse n'ibintu, ikunda gukoreshwa mu bantu bava mu gihugu kimwe bajya mu kindi gihugu, indege iraguruka mu kirere.

Imodoka ni igikoresho cy'ubwikorezi ,gikoresha imbaraga za moteri ,kigatwara abantu n'ibintu kikagendera ku butaka, kandi kigendera ku ku mapine ane.

Moto ni ibikoresho byifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu, moto zigira amapine abiri, rimwe imbere n'irindi nyuma, moto ni nziza kuko zirihuta mu muhanda, umuntu akagera iyo agiye vuba.

Muri gare ni ahantu imodoka nyinshi zihurira zije gufata abagenzi. N'abagenzi bagiye mu bice bitandukanye baraza bakahicara, baje gutegereza imodoka zirabatwara.

Moto ni igikoresho gikoreshwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu. Na zo zibamo amoko atandukanye. Hari izitwara abantu bonyine, n'iz'indi zitwara imizigo bita rivani.

Imodoka ni igikoresho gikoreshwa mu gutwara abantu n'ibintu, habaho imodoka zagenewe gutwara abantu gusa ,hakabaho n'imodoka zagenewe gutwara ibintu, hatabamo intebe z'abagenzi.

Igare ni igikoresho cyifashishwa mu gutware abantu n'ibintu. Rigira amapine abiri, hariho n'utundi tugare tudara ibintu twitwa siporo.

Muri gare ni ahantu abantu bicara bategereje imodoka kugira ngo zibajyane zibavanye mu gace kamwe zibajyane mu kandi. Iyo wicaye muri gare ukatisha agatike wamara kugakatisha bakaguha isaha uragenderaho imodoka zikakujyana.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni byiza cyane, bifasha uyikora kwirinda indwara ikomeza amagufa, itera ibyishimo kandi ifasha kuruhuka.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza cyane ikorwa hagamijwe kwishimisha, kuruhuka, cyangwa se gukorera ibihembo mu matsinda atandukanye, hari abakina :umupira w'amaguru ,abirukanka, abatwara amagare n'ibindi bitandukanye.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni byiza kuko umuntu uyikora cyane, bimurinda kurwara indwara zo mu mitsi, bikamurinda kurwaragurika umutima no kurwara indwara z'ubuhumekero, kubera aba yinjiza umwuka mwiza, asohora umwuka mubi mu gihe ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Imyitozo ngororamubiri ikorwa mu buryo butandukanye. Hariho abayikora umuntu ku giti cye ari umwe, hariho n'abayikora ari amatsinda, bagafatanya nk'umupira bagakina umupira w'amaguru, ari amatsinda abiri atandukanye.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni byiza cyane kuko bifasha abantu kwishima, kuruhuka, bifasha mu kugorora umubiri cyangwa se kwirinda indwara.

Gukora imyitozo ngororamubiri, ni ikintu cyashyizwe imbere mu gihugu cyacu ndetse no ku isi, kuko usanga bari gutegura amarushanwa, yo gukorera mu matsinda, aba baye ba mbere bakabahemba.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza umuntu wakoze imyitozo ngororamubiri aba yishimye irinda kurwaragurika hari n'abayikora kugira ngo batsindire ibihembo, ari mu matsinda y'abantu benshi cyangwa se umuntu ku giti cye.

Mu gukora imyitozo ngororamubiri abantu baba bakeneye aho kuyikorera, nk'ibibuga byo gukiniramo, abakina umupira w'amaguru bakeneye ikibuga, amazamu n'abakina vole bakeneye ikibuga kirimo urushundura rwo gukiniramo.

Imyitozo ngororamubiri ikorwa mu buryo butandukanye, hari abakina umupira w'amaguru, abakina umupira w'amaboko bakoresheje amaboko, n'abakina imikino bakoresheje amagare.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni byiza cyane kuko bituma umuntu yishima hariho n'abazikora kugira baruhuke abandi bakazikora ari ukugira ngo batsindire ibihembo. Gukora imyitozo ngororamubiri birinda umuntu kuba yarwaragurika cyane.

Imyitozo ngororamubiri zifasha abantu mu gukomeza amagufa, mu kurambuka kw'imikaya ndetse zifasha abazireba kwishima no kuruhuka.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni byiza. Hariho abayikora bifashishije amagare, bakaba batsindira ibihembo nko mu marushanwa yo gutwara amagare, hariho n'abayikora ari ugukina umupira.

Mu buryo bwo guteza imbere imyidagaduro, no gukora siporo ngororamubiri, hari ibibuga byashyiriweho abantu bakunda kwidagadura, kugira ngo byorohereze n'abakunda kubareba.

Mu gukora imyitozo ngororamubiri hari ababikora nkumwuga. Abantu rero akenshi babikora bashaka ibihembo, ku buryo iyo babaye aba mbere babahemba.

Mu myitozo ngororamubiri，hari umukino ukinishwa amaboko， maze abantu bamwe bakajya mu ruhande rwabo， n'irindi tsinda rikaza mu rundi ruhande， bakagenda baraherezanya umupira， bari kuwucisha hejuru y'ibiti，bakagenda barabara ibitego abatsinze bagahembwa.

Imyitozo ngororamubiri ikorwa hagamijwe ibintu bitandukanye. Hari abayikora bagamije kwishimisha, abayikora bashaka kuruhuka, n'abayiikora bashaka gutsindira ibihembo.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni byiza, mu gukora imyitozo ngororamubiri hari abakora umwe ku giti cye, harimo n'abakora ari mu matsinda, nkabo tubona bari gukora amarushanwa y'amagare cyangwa amarushanwa yo gutwara imodoka.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza, kuko umuntu uyikora kenshi ntabwo akunda kurwaragurika, ngo abe yarwara imitsi, umutima, ngo abe yarwara umuvuduko w'amaraso, gukora imyitozo ngororamubiri kenshi ni byiza.

Mu gukora imyitozo ngororamubiri haba harimo imyitozo itandukanye. Hari izikorwa n' umuntuntu umwe umwe, n'izindi zikorerwa mu matsinda, akaba ari itsinda ry'abagabo cyangwa se itsinda ry'abagore.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ingirakamaro. Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri hari imyambaro aba agomba kwambara, akirinda imyambaro ikanyaraye. Akambara utwenda tworohereye, ku buryo bitamugora gutambuka.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni byiza cyane kuko bifasha uri kuyikora kwishima hari n'abayikora kugira ngo baruhuke, abandi bakayikora kugira ngo batsindire ibihembo mu matsinda cyangwa se umuntu ku giti cye.

Uburyo bwo gukora imyitozo ngororamubiri, iyo abantu bari gukorera imyitozo ngororamubiri mu matsinda, bakora amatsinda abiri ari gukina n'andi matsinda abiri, ari gukina n'andi matsinda abiri, itsinda ritsinze bakarihemba.

Abantu bose bemerewe gukora imyitozo ngororamubiri, kuko n'abana biga mu mashuri abanza bakoraga imyitozo yo gusimbuka no kwiruka, cyangwa se bagakina umupira w'amaguru.

Abantu bakora imyitozo ngororamubiri bari kuyikorera mu matsinda, hari ibikoresho baba bakeneye. Nk'umupira kuko nta kuntu bakina umupira w'amaguru badafite balo.

Imyitozo ngororamubiri, ikorwa mu buryo butandukanye. Hari abayikora ari umwe umwe, abandi bakazikorera mu matsinda, bakaba bakina imikino y'amaboko, cyangwa se imikino bakinisha amaguru, bitewe n'ibyo bakunda.

Gukora imyitozo ngorora mubiri ni byiza kuko bifasha abantu kugira ngo amagufa yabo akomere, bikabarinda kuba barwaragurika, kandi umuntu ukora siporo kenshi ahorana ibyishimo ntagire umujinya.

Muri sitade ahantu hagenewe gukorerwa imikino itandukanye, gukinirwa umupira w'amaguru imipira y'amaboko haba harimo n'intebe abareba uwo mupira bagomba kwicaramo.

Imyitozo ngororamubiri ni ibikorwa abantu bakora bagamije kwishimisha cyangwa se bagamije kuruhura umubiri, cyangwa se bagamije guhabwa ibihembo bari mu marushanwa.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza cyane abantu bose bemerewe kuyikora haba abana, abakuru, ibyiciro byose, ni byiza gukora siporo kuko n'abafite ubumuga, bashyuriweho uburyo bwo gukora imyitozo ngororamubiri.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni byiza, bifasha abazikora kwirinda indwara za hato na hato, kugorora amagufa, kwishima, kwinezeza cyangwa se kuruhuka.

Imyitozo ngororamubiri zikorwa n'umuntu ku giti cye cyangwa se mu matsinda, zifasha abazireba kuruhuka no kwishima, abakora imyitozo ngororamubiri hari n'igihe bazikora bagamije guhembwa.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni byiza, kuko bifasha uyikora gukomeza amagufa, kwirinda indwara z'imitsi, imufasha kuruhuka, kandi ikamufasha guhora anezerewe.

Imihanda ni inzira zaciwe cyangwa zateguwe n'abantu, kugira bajye bahanyura cyangwa se n'ibinyabiziga bihanyure, nk'amagare, na moto bakahanyura bava mu gace kamwe bari kugira ngo bagere mu kandi gace.

Inzira ni imihanda baca mu midugudu n'imigendererano kugira ngo abantu babone uko bava mu rugo, bajya ku rundi rugo. Ni myiza kuko ituma abantu batagendera mu bihuru, bakagenda bisanzuye.

Imihanda ikorwa mu midugudu, ifasha abatuye mu rugo midugudu kugendererana hagati yabo, bakava mu gace kamwe bakajya mu kandi kugira ngo biteze imbere.

Umuhanda ni inzira, ziba zaraciwe mu mudugudu, kugira ngo abantu babone uko bagendererana, bo mu duce dutandukanye. Ziba zarakozwe n’abantu.